Iyi shusho iragaragaza abana bane bahetse ibikapu biri mu mabara atandukanye ibara ry'umutuku n'umuhondo bambaye amasogisi y'umweru n'inkweto z'umukara ndetse n'amashati.

Iyi foto iragaragaraho akabuwate karimo inyuguti nyinshi zitandukanye, nka x, m, n, na o , handitseho ijambo monte sori.